Abaganga bambaye imyenda yabugenewe ikoreshwa kwa muganga izwi nk'impuzankano, bose bambaye amakarita y'akazi abaranga. Inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru. Aha hantu bahagaze hari amakoro. Inzego za leta zishinzwe ubuzima zikunda gufasha abantu cyane cyane abarwayi.

Ikirangantego cy'umuryango w'abibumbye wita kubana, muri iki kirangantego harimo umugore usigatiye umwana, inyuma y'aho ikirangantego cy'ingano, iki kirangantego gikozwe mu buryo bw'umubumbe w'isi.

Abantu benshi bateraniye hamwe inyuma y'aba bantu hari inzu yubakishije amatafari ahiye isize umucanga wo mu mazi, munsi gatoya y'iyi nzu fondasiyo yayo yubakishije amakoro, abantu bahagaze muri iyi mbuga bari kuganira.

Abantu baricaye ku meza amwe, bari mu nama, abenshi muri bo bamanjiriwe bitangiye itama, aya meza ari kuberaho inama ariho imashini, ariho amazi kuri buri muntu, ndetse hariho n'ibitabo.

Umugore ateruye umwana we ,muganga ari kumusuzuma ,iruhande rwabo hari ameza ariho ibikoresho byamuganga.

Amashuri, ikiraro, ubusitani, byose ni byo bigize uyu mudugudu. Uyu mudugudu uri mu mujyi rwagati.

Umugabo uri gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe. Akajerekani gashirwamo amazi, kagashirwa hagati y'ibiti bibiri, bagatambikaho ikindi hejuru, bagashyi igiti ukandagiraho amazi akaza. Iki gikoresho gifasha abantu gukaraba no kwirinda indwara zikomoka ku mwanda.

Aba bantu bicaye kwa muganga iruhande rwaho hahagaze abagore babiri bari imbere ya muganga arikubandika, kubikuta by'iyi nzu hariho ibyapa byanditseho amagambo y'umweru, parafo yubakishije iyi nzu isa nk'umutuku hagati harimo itara, uriya muryango wo hirya impande yaho muganga yicaye urafunguye.

Ameza y'ibiganiro ateraniweho n'abantu batandukanye biga ku ngingo runaka mu nama cyane cyane nk'iyi ngiyi haba harimo abantu banyuranye, ni ngombwa kubaha ibyo kunywa birimo isukari n'amazi kugira ngo umubiri ukomeze ukore neza, ibi bifasha kandi ubwonko kwihangana no kubona isukari n'amazi ahagije.

Kwa muganga umubyeyi arimo guterwa urushinge ku rutugu n'umuganga ubizobereye. Uyu muganga ari gukoresha urushinge yashizemo umuti, agakingira uyu mugore ku rutugu rwe. Hirya hicaye abandi bantu, bigaragara ko barimo gufata ibizamini.

Ababyeyi bahagaze imbere y'inzu, bose bakenyeye ibitenge, inyuma y'aba babyeyi hari inzu yubakishije amatafari ahiye, ikintu gisakaye iyi nzu, ni amategura abumbye mu ibumba.

Aba bantu bafite icyapa cyanditseho amagambo y'impine, aya magambo y'impine ni RBC, aba bantu bafite iki cyapa bambaye imyenda y'umweru n'ingofero z'umweru, bamwe muri bo bambaye imyenda ijya gusa nk'uburu, inyuma y'aba bantu hariho inzu n'igiti kinini.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, hanze yiy'inzu hahagaze abagabo n'abagore barangije amahugurwa, ijambo ryanditse kuri iyi nzu yubakishije amatafari ahiye ni icyumba cy'inama dushize mu kinyarwanda mu cyongereza ni SALLE DE CONFERENCEE.

Abanyabuzima bahagaze hamwe nk'itsinda, buri munyabuzima yambaye itaburiya, hagati y'abanyabuzima hari umugabo uhahagaze ubahagarariye, iruhande rwabo hahagaze umuganga uvura indwara.

Ikirango cy'umuryango wita k'ubuzima ku Isi. Muri iki kirango harimo ibimenyetso bitandukanye biri mu ry'ubururu n'iry'icyatsi. Iki kirango kandi gikozwe mu buryo bw'ubugeni, uwagishushanyije yagihaye ishusho y'umubumbe w'Isi.

Umubyeyi wambaye agapfukamunwa n'umupira wabugenewe, ari gukarabya umwana mutoya intoki n'amazi n'isabune, iruhande rwabo hirya hari ibiti bihateye.

Aba bana bahagaze imbere y'icyapa, impande y'aba bana hari ibyapa bitatu. Icyapa kiri ibumoso cyanditseho ijambo Unicef, Icyapa kiri iburyo cyanditseho ibirangantego bya Repubulika y'u Rwanda, inyuma y'aba bana hari icyapa cyanditseho amagambo y'icyongereza.

Uyu ni umugezi wubatswe mu mudugudu rwagati utanga amazi meza asukuye ku bufatanye na leta ndetse n'abafatanyabikorwa babigiramo uruhare, abagore, abana, abasaza, abagabo, abakecuru nibo baza kuvoma amazi kuri uyu mugezi, amazi ni ingenzi cyane mu buzima bwa muntu cyane ko afasha kwirinda indwara, gufura imyenda, guteka, gukaraba ndetse no kuyanywa.

Uyu mubyeyi yazanye umwana kwa muganga kugira ngo ahabwe umuti, umuganga nawe yashishikaye arimo aramuha umuti yamwasamuye, ahantu ari kumuhera umuti ntabwo hameze neza, inyuma urugi rusa nabi hasi naho ntamakaro arimo.

Abajyanama b'ubuzima bari kugerageza gusobanurira abazungu harimo n'abanyarwanda bake uko uriya muti ukoreshwa ni umuti ugaragara nkaho ufite akamaro kanini ku buzima bw'umuntu hiryayaho hari abari gufata amashusho ndetse n'amafoto abazungu bateze amatwi bari kumvamva ibyo umunyarwanda arimo ababwira.

Uyu mukobwa ari gukuraba intoki akoreshe amazi n'isabune, iyi ni kandagira ukarabe yifashishwa mu gukaraba intoki, kandagira ukarabe iba irimo amazi meza, impande y'aho uyu mwana ari gukarabira hari ibiti by'inganzamarumbo.

Abana barahagaze imbere y'ababyeyi. Aba babyeyi bahagaze kuri tapi, bari kwitegereza abana. Hagati mu bana harimo umwarimu urimo kubaha amabwiriza. Bose bahagaze mu ihema ry'umweru.

Umubyeyi avuye kuvoma akoresheje imbobo, ukuboko k'uyu mubyeyi gufashe indobo mu ntoki ukundi gufashe indobo yikoreye ku mutwe, inzira uyu mubyeyi ari kunyuramo yuzuyemo ibyatsi, atuye mu biti rwagati.

Uyu mwana ari ku mugezi ari kuvoma, uyu mubyeyi uri hirya we yitwikiye umutaka, uyu mugezi ni uwa robine, hirya yabo hariho abana benshi cyane bahagaze baje kuvoma amazi.

Umugezi rusange abaturage bavomaho buri mudugudu ugira umugezi abaturage babasha kuza gukuraho amazi bubakisha inzu, babumbisha amatafari, nayo bakaraba uyu mwana yazanye indobo niyo ari bwifashishe ageze amazi murugo.

Ababyeyi bari kwa muganga, impande y'aba babyeyi hari umugore uhagaze ufite agapapuro mu ntoki, hari kandi undi mwana wicaye nawe uri kwa muganga, bose babiri muri bo bafite ibitabo.

Abantu batatu baje ku mugezi kuvoma amazi yo gukoresha mu rugo, umugezi ni igikorwa remezo gifasha abantu kubona amazi meza bakoresha iwabo mu ngo, iyo baza kuvoma bazana ibijerekani.

Abana bicaye mu ishuri bari kurya, bafite amafoke bicaye ku ntebe za pipitire, inyuma hari ikibaho cyanditseho amagambo n'ingwa y'umweru.

Umugabo uhagaze ari kwerekana igishushanyo, abana bahagaze imbere ye na bo bari kukitegereza, abana bakurikiye wagira ngo ni mu ishuri, inzu ziri impande y'aba bagabo zirashaje.

Umubyeyi yicaranye n'abana be bamanjiriwe ntacyo gukora bafite hejuru yabo hari imvaho zimanitse nk'umutako, inzu yabo yubakishije amatafari ahiye.

Aba bayobozi bicaye mu nama. Buri muyobozi wese uri muri iyi nama yambaye ikarita y'akazi mu gatuza ke, muri iki cyumba ntabwo habona neza, inyuma y'iki cyumba hari kamera ziri gufata amashusho.

Umuganga uri gukoresha imashini iri imbere ye, uyu muganga yambaye agapfukamunwa ari mu bitaro arimo arasuzuma, kwa muganga niho abarwayi baza kwivuriza bakisuzumisha uburwayi baba bafite.

Ababyeyi bahagaze mu murima, uyu murima impande yawo hubatse inzu yubakishije amabati, iruhande rwaho hari ibihuru birimo ibyatsi.

Umujyanama w'ubuzima uri ku bitaro uri gufasha umubyeyi gupima ibiro by'umwana, hirya y'aho hari umugore uri konsa, naho hakurya hari ahanditse amagambo ku mpapuro bigaragara ko ari amabwiriza bagenda bakurikiza.

Uyu mudamu ari kuvoma amazi mu gishanga, umwana yicaye iruhande rw'umugore ari kumwitegereza, uyu mugezi ukozwe mu buryo gakondo, iki kivovo ni cyo amazi ari kunyuraho, uyu mukobwa uri kuvoma yambaye ipantaro y'umukara inkweto n'umupira w'amaboko magufi.

Aya meza arebanye, afite ibara ryiza. Buri meza yicayeho abantu bari mu nama. Buri wese uri muri iyi nama afite amazi imbere ye. Amakayi atandukanye ari imbere y'abantu bari mu nama bari kuyandikaho. Iyi nzu irangi ry'umweru. Amadirishya y'iyi nzu ni ibyuma.

Uyu muganga ari kuvura umwana, uyu mubyeyi arababaye yazanye umwana kwa muganga, ibi bitaro birakennye, uyu muganga yambaye ibikoresho by'isuku bimurinda indwara.

Uyu mwana ari gukaraba kuri kandagira ukarabe. Iyi nyubako iri inyuma y'uyu mwana yubakishije amatafari ahiye. Iyi ndobo yuzuyemo amazi. Iyi base isa nk'icyatsi. Uyu mwana yambaye ikanzu idozwe nk'ipantaro.

Uyu muntu bari kumutera urushinge ku kuboko, umupira we yawuzinze yawuzamu hejuru kugira ngo babone aho batera urushinge, uyu muntu uri kumutera urushinge yambaye ga mu ntoki, inyuma y'aha hantu bari hari amakaro y'umweru, uru rushinge rurimo umuti ugiye gushiramo.

Uyu mubyeyi yikoreye ikijerekani ku mutwe. Iruhande rwe hari abana babiri. Hepfo nko muri metero eshanu hari inzu isakaye ariko itubatse. Imbere aho ari kwerekeza, uyu mubyeyi hari inzu ya kadasiteri.

Abantu benshi bicaye hamwe mu kibuga impande y'inzu, aha hantu hakoraniye imbaga baje kwiga ku ngingo runaka bitabiriye inama y'abayobozi, cyane iyi nama ikunda gutumizwa n'abayobozi b'uturere, ab'imirenge, abahagarariye ibigo nderabuzima mu midugudu no mu tugari, ibi baba bagira ngo babigishe ku ngingo runaka.

Umubyeyi utwite arahagaze yamanuye agapfukamunwa ntabwo kakiri ku munwa n'amazuru, umugabo wambaye ingofero n'agapfukamunwa ku munwa ari kwasamura umwana ngo amuhe ikinini mu kanwa, abandi babyeyi baricaye ku ruhande bari kureba ibyo umuganga ari gukora, inzu yabo yubakishije amatafari irahomye.

Abantu baba bari mu nama, baba bafite ingingo runaka bigaho, baba bicaye rwagati mu cyumba imbere y'ameza, buri meza aba atereretseho icyo kunywa, bombi baba basangira ibitekerezo.

Aba bagabo bari gutongana, umwe ari kwitegeraza mugenzi we mu maso, umuhungu umwe wambaye ishati ijya gusa nk'umweru ahetse igikapu, mugenzi we yambaye baji mu gatuza.

Uyu muganga ari kuvura uyu mukobwa, ari kumupima umuvuduko w'amaraso, uyu muganga yambaye imyenda y'ubwirinzi, yambaye agapfukamunwa n'ingofero yabugenewe, iruhande rwe hari undi muganga uhuze, uri gukurikirana ibipimo byo kwa muganga.

Muri iki cyumba harimo ibikoresho bitandukanye. Harimo sonorizasiyo, harimo kamera, intebe, amafoto, ibirango n'ameza. Harimo kandi umugore wicaye uri kwandika, imbere ye hateretse amacupa abiri y'amazi.

Icyapa kiriho amagambo agira ati:"Duhagarike icyorezo cya maburg Kigali ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa cyenda bibiri na makumyabiri na kane." Munsi y'iri jambo hicaye abagabo babiri. Buri umwe afite mikoro imbere ye n'amazi amuteretse imbere. Muri metero nk'eshanu hicaye abandi bantu bari mu nama.

Uyu mugabo ari kunamira abazize Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi maganakenda na mirongokenda na kane, imbere ye hateretse indabo, iruhande rw'izi ndabo hahagaze umuntu wambaye itaburiya y'umweru.

Abantu bahuriye mu nama bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hari icyapa kiriho amagambo y'impine arabisi, mu kinyarwanda ni ikigo cy'igihugu gishizwe ubuzima, muri iki cyumba kandi harimo urumuri ruhagije.

Ijisho ry'uyu muhungu ririmo amarira, umunwa w'uyu mugabo usa nk'umutuku, uyu muntu asa nk'igikara, ijisho ry'uyu mugabo riratukuye.

Uyu mugabo yicaye ku meza imbere ye haretse icupa, uyu mugore nawe yicaranye n'uyu mugabo bose bashyize amaboko ku meza, inzu bicayemo nta sima irimo, inyuma y'aba bantu igikuta gihari ntabwo gisize irange.

Aba bantu baricaye bari kuganira. Umudamu umwe afite mikoro ni we ufite ijambo, undi mugabo aripfumbase nta kintu ari kuvuga. Harimo abagore batatu n'umugabo umwe, icyumba bicayemo bose baricaye.

Inzu nziza cyane y'ibitaro bya Caraes biherereye mu ntara y'amajyepfo, mu karere ka Huye, ikaba yakirirwamo abafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, ababaswe n'ibiyobyabwenge, n'abandi bantu bafite ibibazo by'urugomo rukomoka ku kuba ubuzima bwabo bw'umutwe bwarahungabanye.

Amaboko y'uyu musore yayashyize mu mpanga, afite agahinda. Ariyunamiye, amaze umwanya munini atavuga. Umukobwa uri impande y'uyu musore, yamushyize ikiganza ku kuboko kwe kw'iburyo, ari kumuhumuriza.

Uyu mugabo ni umukene, ipantaro ye yaracikaguritse ishati nayo yabaye uburere, umusatsi warizingazinze wabaye injwiri, ubwanwa bwe bwaragiye burasaza burasazura.

Aba bantu bakora mu nzego z'ubuzima kwa muganga. Baricaye bari mu nama bari kwiga ku ngingo runaka. Uyu mugore uri imbere afite ikaramu, iruhande hateretse amazi yambaye ikarita imuranga mu gatuza.

Umukecuru yicaranye n'umukobwa we iruhande rw'uyu mukecuru hari inkwi z'imyase zihegetse, ibumoso bwaho hari ihema rikinze ku gikuta hose uharebye ubona ari mu cyaro.

Uyu mukobwa afite agahinda, amaboko y'uyu mukobwa yayashyize mu mutwe ahari ibisuko, yambaye ishati y'umweru.

Abana bari kumwenyura, bose bafite uburoso na korogate n'amazi icyarimwe, bari gukora isuku yo mu kanwa, aba bana ni abanyeshuri, bose biga mu mashuri abanza.

Umwana na se bafashe urudodo bose barunyuza mu menyo, rwagati y'aba bagabo bose bakanuye amaso bayarebesheje imbere, umwana na se bose bambaye imipira y'umweru.

Uyu mugabo ari kumwenyura, iruhande rw'uyu mugabo hari umukobwa ufite tijekoto mu ntoki ari guhanagura amenyo y'uyu mugabo kugira ngo akuremo imyanda, uyu mugabo bamwambitse ikintu cy'umweru mu gatuza kugira ngo imyanda itamujyaho.

Umukobwa mwiza ari koza amenyo ye, uyu mukobwa yambaye sengeri y'umweru yiteze igitenge cy'umweru, akaboko k'uyu mukobwa karahinnye akerekeje ku munwa we.

Abana bato bari mu kigero k'imyaka ine, bari kuborosa bakoresheje uburoso na korogati, umuco wo koza amenyo uramenyerewe cyane mu Rwanda cyane cyane ku nama zitangwa na minisiteri y'ubuzima, ibi bifasha amenyo yawe kumera neza, kugira ubuzima buzira umuze, cyane igihe urangije kurya, imyanda yasigaye mu menyo ni byiza kunyuzamo amazi ukoresheje korogati n'uburoso ngo amenyo amere neza.

Uyu mugabo ari kunyuza urudodo mu kanwa kugira ngo akuremo imyanda, yasetse amenyo ye ni urwererane yayashyize hanze ku karubanda, umusatsi ntawo afite.

Umuganga uri gukura umugabo iryinyo, iruhande rwabo harambitse ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu kuvura, uyu musaza uri gukurwa iryinyo ni igikara, yambaye agapira k'amaboko magufi, uyu muganga yambaye itaburiya y'umweru.

Uyu muganga ari gutera urushinge uyu mugore mu kanwa, inyuma y'uyu muganga hari abandi baganga babiri barikwandika. Buri muganga afite icupa rimuteretse imbere, uyu ugore yarasamye cyane, ijosi yarizamuye mu kirere, iruhande rw'uyu muganga uri gutera uyu mugore urushinge, hari impapuro n'ikaramu.

Umunyeshuri bamuhaye impano y'inkweto, mwarimu we amufasha ku rutugu arimo arazimushikiriza, umuzungu ahagararanye n'undi mugabo bahagaze imbere y'ikibaho.

Uyu muganga ari gufata ibipimo, impande ye hari igipimo cyitwa miyikorosikope, hano nanone yambaye agapfukamunwa, afite ikaramu n'urupapuro ari kwandika.

Uyu musaza ari kuvurwa kwa muganga, muganga arimo kumwereka uburyo ki akoresha kugira ngo amupime, hirya ya muganga hicaye umukobwa, icyumba barimo gisize irange ry'umukara.

Abantu bari gucurira bahagaze, harimo abagore n'abagabo, iruhande rw'aba bantu bahagaze hari utumodoka, intebe byose byagenewe abantu bafite ubumuga, iruhande rw'aho abo bantu bahagaze hari igiti k'inganzamarumbo.

Umusaza n'umugabo bari kugenda mu nzira, uyu musaza n'uyu mugabo bafatanye ku rutugu, inyuma y'aba bantu hariho ibiti binini n'ibihuru, iyi nzira yubakishijwe amapave, impande y'aba bantu ibyatsi bihari barabitemye.

Uyu mugabo n'uyu mwana bari gusoma igitabo, imbere y'uyu mugabo n'uyu mwana hateretse ibikombe bibiri, aba bantu bicaye ku meza, iki cyumba ni kinini kandi gisize irangi ry'umweru, uyu mugabo yambaye amarinete.

Uyu mugore afite agacupa ari gusuka umuti ku ipamba, iruhande rwe hateretse icupa ry'ibinini, ameza ateretse imbere y'uyu arashashagirana, iruhande rw'iyi nzu hariho ibiti.

Umuzungu ahagaze imbere y'umusaza, umusaza afite igikombe cy'amata ari kunywa, iruhande rwabo igitanda cyabo, gizwe mu buryo butangaje, uyu mukecuru yambaye ijipo isa nk'ubururu ari guseka.

Abagore batatu bari guseka, aba bagore babiri muri bo bafite udukarita mu ntoki dusa nk'umukara, bicaye mu cyumba gifite irangi ry'umweru, impande yabo hari ameza ashashagirana,

Uyu musaza uryamye ku gitanda. Iruhande rw'umusaza uryamye gitanda, hari icyuma gipima ubushobozi bw'umubiriri wuyu m'urwayi. Uyu muganga uhagaze aje kwita murwayi.

Abagore batatu bari guseka bose bafite amakarita abiri y'umukara babiri muri bo. Icyumba barimo gisize irange ry'umweru, aba bagore umwe afite imisatsi y'umweru undi imisatsi y'umukara, umwe muri bo yambaye agapira k'umutuku undi ak'umweru.

Uyu mugabo ari ku mbago, uyu muganga ni umuzungu, iyi nzu aba bantu barimo isize irange kandi yubakishije amakaro, inyuma yaho hateretse ameza, iyi nzu irimo indabyo mu imbere ziri mu tuvaze, irange risize iyi nzu ni umweru.

Abagore babiri bari guseka barambuye amaboko yabo bari gukora siporo. Iyi siporo nta yindi yitwa yoga. Ni siporo yavumbuwe mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse n'Ubuyapani. Hirya y'aho hari ibiti binini cyane by'inganzamarumbu, ababyeyi bambaye imyenda y'udupira yagenewe gukora imyitozo ngororamubiri. Siporo ni ingenzi ku buzima bw'umuntu aho imufasha kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Uyu mugore amaboko ye yayarambuye, uyu muzungu ari gutoza siporo uyu mugore. Aba bantu bombi bari kumwenyura umwe ari kwitegereza mugenzi we.

Aba bagore bari gutegura indyo yuzuye. Ibi biryo harimo inyanya, imboga, urusenda ndetse n'izindi mboga zitandukanye. Inyuma y'aba bagore hariho akabati karimo ibikoresho. Ku rukuta hakurya hari isaha yometseho.

Umusaza afite icupa mu ntoki, ari kuryitegereza, ari guseka, mugenzi we hirya na we ari kuryitegereza, bombi bari kurireba, inyuma yabo hari akabati karimo isafuriya n'isorori munsi, hirya yaho gato hari kandi akabati karimo ibikoresho, iruhande rwabo hateretse ibikombe bibiri n'urupapuro, hirya yaho hari imashini.

Umwana na nyina bari guseka bicaye mu ntebe z'amafoyeye, uyu mugore umusatsi we uradefirije, yambaye agakote k'amaboko maremare, umwana we yambaye itaburiya mo imbere yambaye umupira w'amaboko maremare.

Uyu mugore ari gukora imyitozo ngororamubiri. Ukuguru kwe kw'iburyo yakurambuye, amaboko ye abiri ayerekeza ku mano y'imbere. Ukundi kuguru yaguhinnye. Yahumye kugira ngo abashe gukora meditasiyo neza. Impande ye hepfo hari itara ndetse n'uburiri.

Abana bari kumwe n'ababyeyi babo, bari guseka byakomeye, ababyeyi babo baricaye ku gitanda, begamiye hasi, bose bari guseka sinakubwira!

Uyu mugabo yambaye agapfukamunwa, afite inda nini kandi arabyibushye. Uyu mukobwa uri kwita kuri uyu mugabo yambaye imyenda y'abaganga, inyuma y'aba bantu hari ibiti bitoshye. Iruhande rw'aba bantu hari inzu nini.

Umuzungu w'umugore arikubwira umugabo w'umwirabura amagambo, imbere ye hateretse igikombe cy'icyayi kuri buri umwe, hakurya hari abagabo batatu bicaye nabo bari gusangira icyayi, hejuru y'uyu muzungu n'uyu mugabo hari umugabo uhari wambaye baji mu gatuza uri kubabaza ibintu.

Umugabo uri kwitegereza umuganga umuri inyuma umuganga nawe ari kumusekera bombi bari guseka uyu mugabo arangije guhabwa serivisi na muganga bigaragara ko yishimiye serivisi ahawe n'uyu muganga .

Uyu mukobwa ari kwarura ibiryo abishyira ku isahani uyu musore afashe hasi hari agacupa bigaragara ko karimo urusenda cyangwa amavuta uyu mukecuru nawe ari mu bagiye kurya kuri iyi ndyo yuzuye indyo yuzuye iba ikubiyemo imboga, imbuto, ibitera imbaraga, ibirinda indwara ,n'ibyubaka umubiri bishobora kandi kuba birimo ibinyamafufu ibikomoka ku matungo ndetse n'ibindi.

Umugabo uhagararanye n'umubwo, iruhande rw'aba bagabo hari ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu gukora siporo, inzu ibi bikoresho biteretsemo, irakomeye isize amarangi y'umweru.

Abagore bahagaze rwagati mu murima w'ibigori. Inyuma y'abo, ikirere kirijimye imvura kugwa. Aba badamu amaboko yabo ari mu kirere bayazamuye. Hahagazemo abagabo babiri bambaye amakanzu y'abayisilamu.

Umugabo ufite umusatsi w'imvi, ubwanwa bw'umweru burimo imvi ari guseka ahagararanye n'umukobwa, uyu mukobwa afite umusatsi udefirije ugwa inyuma mu mugongo, ni inzobe kandi ari kumwenyura afashe ku rutugu rw'umugabo.

Umukobwa yicaranye na musaza arimo kumusekera baganira, uriya musaza nawe we biragaragara ko ameze neza afite ubuzima bwiza, baricaye ahantu hameze nk'aho ari mu rugo, mu nzu nziza, ni abakire rwose barishimye ntakibazo.

Uyu muzungu ahagararanye n'umugabo, uyu mugabo uhagararanye n'umuzungu, afite mikoro mu ntoki, inyuma y'aho baba babantu bahagaze yubakishije amatafari ahiye, uyu muzungu ari gukora kuri uyu mugabo, uyu mugabo nawe arambitse akaboko ke hasi, ku ntebe, umwenda uyu mugabo yambaye ni umweru.

Uyu mukobwa ari gupimwa umuvuduko w'amaraso mu kuboko. Uyu mukobwa yambaye umupira w'umukara afite umusatsi muremure ugwa mu mugongo. Uyu musore afite umusatsi w'umukara. Ameza ari kumupimiraho ariho mikoro. Inyuma yabo hahagaze abantu benshi.

Izi nzobere mu kuvura ziri kubaga umurwayi, yaryamye ku gitanda barangije bamushiramo ibyuma bimufasha guhumeka, barangije bambara ibikoresho byabugenewe, ubu barimo kumukorera isuzuma kugira ngo bavure uburwayi yaje kwivuza.

Abagabo bicaye bari mu nama inyuma yabo hari ikibaho kiriho ibyo inama iravugaho, iyi nama yateraniyemo abazungu n'abirabura bose baricaye bateze amatwi ibyo inama igiye kuvugaho.

Umugabo wambaye ingofero y'abayisilamu ari gutera urushinge ku kuboko. Umurwayi wambaye agapfukamunwa n'imyenda y'abarwayi ari guterwa urushinge ku kuboko. Inyuma y'aba barwayi hari icyapa cyanditseho amagambo.

Abagore bane baje kwa muganga gukingiza abana babo, inyuma yaho hari ibyapa biriho ababyeyi bari konsa, umujyanama w'ubuzima, umugore ufashe umugore ku rutugu n'andi mafoto ariho ibintu runaka.

Umubyeyi uri gushinyiriza bari gutera urushinge ku kuboko. Uyu muganga yambaye agapfukamunwa hirya ye hari undi mugabo wambaye agapfukamunwa barimo kumukorera serivisi yaje asaba. Izi serivisi ziboneka kwa muganga no mu bindi bitaro byigenga.

Abakobwa bicaye banezerewe banamwenyura bicaye mu nama. Ameza bicayeho ariho igitambaro cy'umutuku, ikindi gitambaro ni iroza. Inzu bateraniyemo yubakishije amatafari ya ruriba.

Umugabo ari gusuhuza umumasera, ku ifoto iri inyuma y'aba bantu hari ibirangantego bitatu bya Repubulika y'u Rwanda. Abamasera batatu bari kureba uyu mugabo bamwitegereza.

Uyu murwayi ari kubagwa, aba baganga bose bambaye imyenda y'ubwirinzi, harimo agapfukamunwa, ingofero n'uturindantoki, imyenda aba baganga bambaye isa nk'icyatsi yose.

Abagabo n'abagore baricaye rwagati muri sale, iki cyumba aba bagabo bateraniyemo n'aba bagore kirimo urumuri ruhagije, ibikuta by'iki cyumba bisize irangi ry'umutuku ndetse n'umweru.

Ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda, hagati harimo agaseke, ishaka ndetse hirya yaho hariho ingano, munsi y'iki kirangantego harimo amagambo y'icyongereza agira ati''repaburiki ofu Rwanda minisitiri ofu herifu.

Abaganga bari impande y'umurwayi mu cyumba babagiramo, bari kumufasha kumubaga aho afite ububabare cyangwa igikomere, bafite inshinge mu ntoki imikasi, ndetse ku ruhande hariho imashini bareberamo ibyo bari gukora.

Aba bagore bicaye aha baje gukingiza abana kwa muganga. Uretse uyu ufite umwana uhereye ku ruhande rw'iburyo abandi bose biteze ibitambaro mu mutwe. Ku gikuta inyuma y'aba bagore hariho amafoto atandukanye.

Uyu mugore n'uy'umuzungu bombi bambaye amakarita y'akazi mu gatuza, uyu muzungu yambaye ikositimu mu gihe uyu mugore yambaye agakanzu. Inyuma y'uwo mugabo hari icyapa cyanditseho amagambo, iyi nzu barimo yubakishije amakaro, amagambo yanditse ku cyapa ni EAHF n'akamenyetso kameze nk'ukwezi karimo umutwe w'umuntu.

Umukobwa mwiza uri guseka wambaye akaburuze gasa nk'iroza, iminwa ye isize makiyaje, amaso ye arasa nk'akeye, iruhande rwe hari amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku, hejuru ye handitseho andi magambo na yo ari mu ibara ry'umutuku n'aho iburyo bwe hari umugabane w'Afurika.

Umuti uri mu dupfunyika twabugenewe dufite ibara rijya gusa nk'icyatsi iri umweru ndetse n'umutuku handitseho ko ari umuti uvura ubushita bw'inkende ubushita bw'ingendo rero bukaba bwaradutse mu rwanda mu mwaka bibiri na makumyabiri na kane ikaba ari indwara ifata uruhu ukazana ibiheri byaba na ngombwa ikaba yaguhitana igihe utivuje hakiri kare.

Abaganga bafite ibikoresho bari kuvura umurwayi, hirya hari umuganga wambaye agapfukamunwa, mugenzi we yambaye kasike mu mutwe bombi bambaye kasike, ibyuma bari gukoresha bari kuvura ni birebire.

Abantu bakoze urugendo bari gukora ubukangurambaga bwo kwirinda kanseri y'ibere bakangurira abantu kuyisuzumisha hakiri kare kuko ivurwa igakira, kanseri y'ibere ifata abagore cyane cyane abageze mu zabukuru bidakuyeho ko n'abakiri bato nabo bayirwara, abaganga batanga inama ku kwirinda no kwivuza indwara hakiri.

Iyi nzu yubatse impande y'ubusitani, abantu batatu bari kwerekeza mu cyerekezo aho iyi nzu iri, abandi none bari kujya mu kerekezo cy'aho iyi nzu iri mu gikari impande y'iyi nzu hateye ibiti hari icyapa kihakuyobora, ndetse ikirere kiracyeye.

Abantu baje kwivuriza ku kigo nderabuzima cya Gishweru, ni ikigo gifasha abaturage bahaturiye kubona serivisi z'ubuzima, kikanafasha kandi leta muri gahunda yayo yo gukwirakwiza ubuvuzi kuri bose.

Iyi nzu igeretse kabiri. Hejuru yaho hari ikigega n'umunara. Isize irange ry'umuhondo. Hirya yaho hari inzu na yo yubakishije ibirahuri. Iruhande rwaho ibumoso, hari icyapa cyekana ko ari ibitaro byo mu ntara y'amajyepfo.

Imodoka z'amabara y'umukara, ay'umweru, zose ziparitse hanze y'inzu, iyi taje igeretse gatatu, etaje yambere iri hasi, iyanyuma nayo iri hejuru, iyi etaje isize irangi ry'umweru, amadirishya agiye avanze irangi biragoye gutandukanya ibara.

Ibitaro byo kwa muganga harimo igitanda, hakabamo ibyuma bifasha muganga kuvura umurwayi, hakurya hari ikirahure kigaragara ko muganga ari cyo areberamo ibyo ari gukora.

Sitoke ibitsemo imiti inshinge n'ibinini, aha ngaha niho habitswe ibikoresho byo kwa muganga, utu tubati dukozwe ku buryo nta myanda ishobora kwinjizwamo n'udukoko.

Abaganga bambaye impuzankano y'akazi, buri umwe umwe agiye yambaye agapfukamunwa, aho bahagaze inyuma handitse amagambo agira ati "Legacy Clinics." ibitaro bya Legacy.

Ahakirirwa hakanavurirwa abantu bafite ibibazo byo mu mutwe hazwi ku izina rya Caraes, ibi ni ibitaro byagenewe abantu bafite ibibazo bijyanye no kubatwa n'ibiyobyabwenge, abahungabanye, abafite ibibazo byo mu mutwe, aha ni ho bakirirwa, Leta y'u Rwanda rero yashyizeho ibi bitaro hirya no hino mu gihugu, kugira ngo abaturage babashe kugera kuri izo serivisi mu buryo bworoshye.

Uyu murwayi ari gupimwa n'abaganga. Umuganga umwe afite ikayi n'ikaramu, undi afite ikayi n'ikaramu yambaye baji mu gatuza arahagaze. Undi murwayi aricaye ategereje ibisubizo baza kumuha. Hari igikoresho gicometse ku muriro w'amashanyarazi kiri hakurya impande y'umurwayi bari gupima mu kaboko.

Uyu muganga yicaye imbere y'ababyeyi, ari kubasobanurira ibijyanye n'umuvuduko w'amaraso. Uyu mugore yamwambitse igipimo gipima umuvuduko w'amaraso kugira ngo amenye ikigero umubiri we uhagazeho. Iyi ndwara iterwa n'isukari nyinshi, umunyu mwinshi no kudakora siporo, bishobora kandi no guterwa n'izindi ndwara z'ibyuririzi zidakira.

Uyu muganga ari gupima ibice byo mo imbere mu mubiri, ari gukoresha imashini yabugenewe. Imashini uyu muganga ari gukoresha iteretse ku meza, hakurya nko muri sanimetero makubiri hari imashini nini agenda areberaho ibice by'umubiri.

Umubyeyi urangije kubyara, asigagatiye uruhinja mu ntoki, iruhande rwe hahagaze undi mubyeyi, w'umurwaza we bose barahagaze, barishimye, baranezerewe, mu ivuriro ryo kwa muganga niho ababyeyi baba bemerewe kubyarira igihe bafite inda.

Ibitaro birimo ibitanda biriho ubusa nta barwayi babiriho, hagati muri ibi bitaro harimo umuganga uri kugendamo uw'umukobwa, rwagati mu bitaro kandi harimo amarido agiye agabanya ibitaro n'ibindi.

Inzu ndende iriho ibigega hejuru n'iminara ikurura amarazo ku muryango hicaye umugabo impande yaho hari imodoka hari umusekerite uri gukingurira imodoka ngo isohoke igende iyi nzu ikorerwamo ibikorwa bitandukanye iki ni igikorwa remezo cyubatswe na leta cyangwa abantu ku giti cyabo.

Ibitanda biba biririho matora bikaba biriho n'inzitiramibu, cyane ifasha mu kwirinda malariya, matora ikaba imeze neza cyane, ikoranwe isuku, ni ho abarwayi usanga baryamye iyo bari mu bitaro. Ibitaro biba bisabwa kugira isuku aho barira, aho baryama ndetse no mu bwiherero kugira ngo umwanda ube mukeya.

Uyu mwana ari gupimwa ku munzana kugira ngo barebe ibiro afite, umubyeyi umuhagaze iruhande niwe uri kureba ibiro by'umwana, undi mubyeyi nawe ari hasi arunamye ari kureba umwana we.

Iyi nzu isize irange ry'ubururu n'iroza, amabati yayo ni umutuku, hirya yayo hari ibyapa, hanze gato hari intebe z'umutuku, ifite inkingi enye ziyihagaritse, ifite kandi amapave yubakishije imbuga yayo.

Iki cyumba ni icyumba cyagenewe gukorerwamo ubushakashatsi, aha ni kwa muganga, iruhande rw'iki cyumba hagiye harimo utugega dutoya turiho amarobine ushobora gufungura amazi akaza.

Ameza ateretse rwagati mu cyumba, mu nguni harimo ururabo ruteye mu kivase, ku meza mato hateretse ururabo, impande y'ameza hariho intebe zicarwaho n'abashitsi ugaruka imbere y'icyumba hariho ameza ateretseho utuntu tw'udutako.

Abaganga bari muri laburatwari bari gukora ubushakashatsi, impande yabo hari utubati tugiye turiho ibikoresho bari kwifashisha, buri muganga yambaye itaburiye ndetse yambaye inkweto zifunze ikindi kigeretseho umuganga agomba kwambara uturinda ntoki.

Iki gikoresho cyitwa teresikope. Teresikope ikoreshwa kwa muganga bari gupima utunyangingo tutaboneshwa amaso. Hafi y'iyi teresikope hariho icyo twakwita nk'imibirikira.

Abaganga b'inzobere bambaye imyenda yabugenewe ifunze umubiri wose ku buryo udashobora kwandura icyorezo icyo ari cyo cyose, iki cyumba barimo hashobora kuba harimo abarwayi barwaye indwara zidakira, abarwaye ibyorezo, abarwaye indwara zihumana ndetse ushobora kuhandurira utitonze. Harimo kandi inzitiramibu, amatara, ibikoresho, ibitanda, ahantu bashira seromo abaganga kugira ngo bavure neza abarwayi.

Kuri geti hahagaze umusekirite, imbere muri iyi nyubako harimo icyapa kibuza imodoka nini kuhaparika, icyapa kiri impande ya geti cyanditseho amagambo utashobora gusoma. Inyubako ziri hano impande ya geti zirasa neza cyane, hakurya iriya hariho umusozi muremure.

Abaganga barahuze, bari gukurikirana umurwayi uri kwa muganga, bamushyize ku gitanda araryamye, iruhande rwabo hari ibikoresho kabuhariwe mu gupima no gusuzuma.

Inzu ndende ya etaje, iyi nzu yubakishije amatafari ya ruriba, imbere y'iyi nzu hahagaze abantu bambaye neza, iyi nzu ifite urugo rw'ibyuma ruyizengurutse, impande y'iyi nzu hari umuhanda nyabagendwa.

Iyi farumasi ni iya Iraguha. Amagambo ahanditse, handitse ngo "Farumasi Iraguha." Hari kandi abamotari baparitse hanze y'iyi farumasi. Ku muryango ukurikiraho hari umugore uri mu muryango, uri kumwe n'umwana we.

Uyu mudamu ari kwitegereza uyu mugabo arakaye, uyu muganga yicaye imbere y'uyu mudamu. Uyu mugabo afite igipimo gipima umutima mu ijosi, uyu mudamu yamanjiriwe. Aba bantu bicaye mu nzu yo mu cyaro, inyuma y'aba bantu hateye urutoki.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bikoreshwa na muganga igihe arimo kwita ku barwayi, harimo kandi imashini muganga acomekaho ibyuma kugirango arebe ibyo arangije gupima ku bizamini yafashe.

Iyi nzu igurishirizwamo imiti, hanze y'iyi nzu haparitse imodoka, iruhande rwayo hari iduka ricuruza imyenda, iyi nzu igurishirizwamo imiti yitwa gudu liyifu faruma, ubuzima bwiza farumasi mu kinyarwanda.

Inzu yubakishije amatafari ya Ruriba, isakaje amabati asa nk'umutuku, ubusitani buri hanze y'iyi nzu nta byatsi birimo, inzugi z'iyi nzu ni umukara.

Inzu yubakishije ruriba, hanze y'iyi nzu hari ubusitani, rwagati mu busitani harimo inzira nyabagendwa ijya mu nzu, ikirere kirakeye hari urweyeye.

Ibi ni ibitaro bya Gisenyi, impande y'ibitaro bya Gisenyi hariho icyapa. Ku cyapa handitseho ijambo "ikigo nderabuzima cya Gisenyi", umunyonzi atwaye umukobwa ku igare. Ibitaro bya Gisenyi ni byiza cyane.

Inyubako nziza zubakishije amakaro, zikeye, zimeze neza. Ni ibikorwaremezo byubatswe na leta, kugira ngo bifashe abaturage kuza gushaka serivise biboroheye.

Icyumba babagiramo abarwayi kwa muganga hejuru hari ibyuma bikoresha imirasire ya nikeleyeri ifasha mu gupima no gushiririza uburwayi, ku bikuta hegetse ibindi byuma bifasha muganga gukora akazi ke neza.

Iki cyumba kirimo ibitanda abarwayi baryamaho, hejuru hariho amatara meza y'umweru, iruhande rwaho hari utubati ushobora kubikamo utuntu, ibi bitanda nta marido abiriho nta n'inzitiramibuzi zibiriho.

Iyi ni imashini nini ikoreshwa kwa muganga, muri iki cyumba ni hanini cyane ku buryo iyi mashini ibasha kubona aho ijya, irange risize muri iki cyumba ni umweru, hejuru kuri parafo muri iki cyumba harimo amatara y'umweru.

Ibi bitaro birimo ibitanda, birimo ahantu heza ho kuryama igihe umurwayi yumva atameze neza, harimo kandi amadirishya n'inzugi ndetse n'amatara. Iki cyumba kimeze neza gisize irangi ry'umweru, hariho n'irangi ry'ubururu, amakaro ni ubururu.

Icyapa ndangamerekezo kiri ku muhanda, kiriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda, hirya gato hari icyapa cya polisi y'igihugu kiri mu muhanda cyerekana aho imodoka zitemerewe kunyura, hari ibiti birebire biri impande y'umuhanda, uru rugo rwubakishije amatafari ahiye.

Ikigo nderabuzima cya Matyazo healh center. Ibi bitaro abarwayi ni ho baza kwivuriza, abaturage bo muri aka gace usanga ari ho baje gufatira imiti. Abarwaye malariya, abarwaye indwara zidakira, abarwaye indwara z'ubuhumekero, bose baza kwivuriza kuri ibi bitaro. Ni leta yabyubatse mu rwego rwo gufasha abaturage.

Uyu muganga ari muri Laboratware, inyuma y'izi ntebe hari utubati turimo ibikoresho, muri iyi nzu harimo firigo, muri iki cyumba harimo intebe bicaraho, hirya yaho hari imashini.

Iyi nzu yagenewe ababyeyi isakaje amabati y'icyatsi; iyi nzu kandi yubakishije amatafari ahiye. Imbere y'iyi nzu hahagaze abajyanama b'ubuzima, iyi nzu ni nziza cyane.

Aho abarwayi basohokera, iri jambo ryanditse hanze ahari inzu ivurirwamo abarwayi, iyi nzu ivurirwamo abarwayi ni nziza, isize amarange agiye gusa nk'umutuku, hanze nta bantu bahari.

Iki cyumba kirimo intebe nziza. Imbere y'izi ntebe hariho akabati umuntu ahagararamo ari kwigisha inama. Hejuru muri parafo harimo amatara y'umweru. Izi ntebe ni nziza zicarwamo n'abantu biyubashe. Muri iki cyumba hasizemo irangi ry'umutuku.

Icyumba gisukuye cyo kwa muganga kirimo urumuri ruhagije aho umurwayi ashobora gutambuka neza nta kintu kimukoma, buri rugi ruba rugiye rwanditseho amagambo ashobora kuranga aho ugiye, hari kandi urumuri rutangwa n'izuba runyura hejuru mu mumabati aho baba baragiye barasiga umwanya, haba hari kandi irangi risize ibikuta ku buryo haba hameze neza hakaba hatabasha gutanga isura mbi ku bitaro.

Ibitaro bigenewe ababyeyi, niyo mpamvu leta yashyize imbaraga mu gufasha abantu kubona ibitaro bibegereye, yubaka ibitaro mu midugudu, ku tugari n'ahandi.

Hanze ku ibaraza ry'iyi nzu hahagaze umuganga, iruhande rwaho hari akayira gasakaye, isima ipavomye isa nk'umutuku, amadirishya y'iyi nzu ni umukara, isakaje amabati y'icyatsi, impande y'ibi bitaro hariho jaride.

Iki cyumba gisa neza cyane. Inzugi zikingishije iki cyumba zikozwe mu nzugi z'ibyuma, irange risize muri iki cyumba ni umweru, imiryango iri kuri iki cyumba ni ine.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe aho umurwayi ashobora kwicara igihe ari gusuzumwa, kirimo kandi ibindi bikoresho byifashishwa mu gupima hakaba hariho utubati, hakaba hariho udusanduku tubikwamo ibikoresho nk'inshinge, imikasi n'ibindi, hari kandi hejuru amatara aboneshamo imbere kugira ngo ibintu bikorwe neza igihe bari gusuzuma umurwayi.

Ikigo nderabuzima cya Kanyinya. Iki kigo nderabuzima gishakaje amabati y'icyatsi, irangi risize ibikuta ni umweru. Hanze hasutse konkase ituma hataza ubunyereri. Iruhande rwaho gato hari umucaca wa pasiparume uzana ubwiza bw'aha hantu.

Icyumba cyakirirwamo abarwayi barembye kwa muganga, muganga agisuzuma umurwayi akabona ko afite ibibazo byihariye amuzana hano muri iki cyumba agahabwa igitanda cya wenyine kugira ngo yitabweho by'umwihariko.

Ibitanda biterekeranyije kwa muganga, iki cyumba kirimo isuku ihagije, buri gitanda gifite inzitiramibu hejuru, mu madirishya harimo amarido afasha mu kurinda umuyaga n'amahuhwezi.

Amazi ari gusukwa mu kirahure, ikirahure giteretse ku meza, icupa na ryo rirahengetse umunwa waryo werekeye mu kirahure, amazi ari kujya mu kirahuri ni amazi y'urubogobogo.

Imiti ivura indwara irunze hamwe harimo ibinini, amacupa arimo imiti isukika ndetse n'ishinge, aho iyi miti iteretse hasa umweru.

Izi nkweto zikozwe nka bote, nta mazi ashobora kwinjira muri izi nkweto, izi nkweto ziriho icyapa cyanditseho ijambo "Bato" bivuze ngo izi nkweto zikoreshwa n'abasirikare, ni bo bakunda kuzambara kugira ngo badakomereka.

Umugabo uryamye hasi ufashwe n'abandi bagabo babiri bigaragara ko arwaye indwara y'igicuri, barimo kumuha ubutabazi bw'ibanze, indwara y'igicuri ikunze kugaragara ku bantu cyane mu buryo butunguranye, minisiteri y'ubuzima ikaba igira inama umuntu wese ubonye umuntu ufashwe n'igicuri ko yamuha ubutabazi bw'ibanze kugira ngo atahangirikira cyangwa se akaba yatakariza ubuzima.

Uyu muganga ari kwambara agapfukamunwa, mu ijosi rye yambaye igikoresho yifashisha ari gupima umutima. Iyi mashini iteretse ku meza imbere ya muganga, iruhande rwa muganga hari ikayi yandikamo.

Umukobwa muto ari gukora siporo bita yoga, yafashe amaguru ye akoresheje amaboko, yigonze arangije ukuguru kumwe araguhina ukundi arakurambura. Iyi siporo ni nziza cyane, ikorwa n’abashinwa n’abayapani gusa ibindi bice bitandukanye by’isi nabyo yatangiye kuhagera.

Uyu musore ni umuganga. Uyu musore kandi yambaye taburiyo n'igipimo gipima umutima. Igikoresho afite mu ntoki ni kasike ikoreshwa kwa muganga. Imbere ye hari ibyuma bimanikwaho seromo, iruhande rwe kandi hari kizimyamwoto.

Abakozi bo kwa muganga baricaye hasi, buri mukozi wese afite ikayi n'ikaramu arahuze ari kwandika. Imbere y'aba bakozi bo kwa muganga uhahagaze hari ibyo ari kubereka, imbere y'uyu umukozi wo kwa muganga mukuru hagaze ikimashini gipima kwa muganga.

Umugabo uri gukora siporo, akguru k'uyu mugabo yakarambuye akerekeza imbere ye, ukuboko k'uyu mugabo yagushyize ku mano y'iwe. akandi kaboko gasigaye yagashinze hasi ku butaka, yambaye ikabutura gusa hejuru nta mwenda yambaye.

Uyu mugabo ari kunywa amazi meza mu icupa, uyu mugabo ni umugabo w'ibigango, yambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu.

Umuzungu ari kugendera mu mbago, iruhande rwe hari undi muzungu ufite umupira wo gukina w'amaguru mu ntoki, aho bahagaze muri kaburimbo rwagati, harimo amagaraviye asutsemo, atuma hatazamo ubunyereri.

Umugabo w'ibigango uri kunywa amazi, muri metero magana abiri hari umujyi munini, uyu mugabo yambaye isengeri isa nk'icyatsi afite ubwanwa bwinshi ku munwa.

Umuntu ufite agatambaro kazwi ku izina rya mushwara ari guhanagura ahakomeretse ku ivi, aka gatambaro gafasha cyane igihe wakomeretse, gafasha kandi wihanagura ibyunzwe, wimwira cyangwa uri guhanagura ahanduye ku mubiri wawe.

Imboga, inyanya, pome, urusenda, ibitunguru ndetse na sereri biri ku isahane, iruhande rwaho hari inkweto, hari agapimo gapima ubushyuhe, hari ibiroso ndetse n'umusambi.

Ibi ni ibirenge bihabwa umuntu ufite ubumuga bw'akaguru, uyu mugore mureba afite ubumuga bw'akaguru, yambaye akaguru k'agakorano.

Uyu muganga ari gushyira umurwayi mu kagare kamucunga, impande y'uyu muganga hariho igitanda, hakurya hari vandarateri. uyu muganga yambaye impuzankano y'akazi. Uyu murwayi yambaye agakabutura n'agasengeri by'abantu barwaye.

Amazi meza asukuye arimo gusukwa mu kirahuri ava mu icupa. Amazi ni ingenzi ku mubiri w'umuntu cyane cyane abantu bafite ibiro byinshi ndetse n'abifuza kugabanya ibinure mu mubiri, cyane cyane iyo atetse nibwo agira umumaro kurusha ikindi gihe. Amazi kandi avura impyiko, ikindi agabanya isukari nyinshi irengeje urugero mu mubiri.

Ku ivi hari igipfuko. Impande y'ahari igipfuko bashyizeho ibara ry'icyatsi. Uyu muntu ntabwo yambaye ipantaro, yambaye kora igeze hejuru y'amavi.

Umugabo wicaye urangije gukora siporo ari kunywa amazi mu icupa, uyu mugabo yambaye agapira gafite ingofero ka siporo yambaye agakabutura arangije gukorana siporo, amazi n'ingenzi cyane igihe urangije gukora siporo cyane cyane siporo yo mu bwoko bwa yoga, minisiteri y'ubuzima itanga inama nimpanuro ku gukoresha amazi igihe turangije gukora siporo kugirango ngo umubiri ugire isuku ihagije.

Iri cupa ririmo amazi yo kunywa, amazi ataruka ajya hejuru, ari iruhande rw'icupa. Inyuma y'iri cupa hari irangi ryijimye.

Uyu mubyeyi afashe ku kuboko kwe kw'ibumoso, uku kuboko kwe kurarwaye bikomeye, uyu mubyeyi yambaye ishapure mu gatuza kandi afite ishati y'umweru ni yo yambaye.

Ikirahure giteretse ku meza cyuzuye amazi, ijage irimo amazi yerekeje umunwa ku kirahure giteretse ku meza, ijage irimo irasuka amazi mu kirahure.

Iki gikapu kirimo ibikoresho by'isuku, iki gikapu kirimo isabune, amavuta, omo n'impapuro zo kwa muganga, iki gikapu kiriho umukasi ukoreshwa mu kogosha umusatsi n'insya.

Umukobwa ari gukora siporo, umugongo we yawuhinnye yawukojeje ku maguru, amaboko yayarambuye yayakojeje ku mano, yambaye iimyenda y'abasiporotifu, iruhande rwe harererana nta matara arimo hasize irange gusa.

Izi ni zimwe mu mashini ziba kwa muganga zikomeye cyane zifasha mu gutahura no gupima, gushiririza indwara zitandukanye, biriya byuma byo hejuru n' ibyuma kabuhariwe bituruka hanze bigurwa na leta y'u Rwanda bigashyirwa mu bitaro bitandukanye hirya no hino mu Rwanda, kiriya gitanda kirihariye cyane ko kiryamishwaho' umurwayi igihe agiye kubagwa.

Uyu mugabo afite icupa yaryerekeje mu maso ari kwimenaho amazi, yambaye umupira w'umukara w'ijezi amazi ari kwimenaho yagiye ari kunyanyagirika inyuma.

Icupa ry'amazi, pome, indimu, umwembe, metero ndetse na ariteri biteretse hamwe, hejuru ikirere kirakeye harimo ibicu izuba riri kuva.

Icyapa cyanditseho amagambo y'icyongereza, munsi yaho hari imiti y'ibinini bitandukanye by'umweru, hari kandi ikaramu hirya yaho hari ikintu kimeze nk'umudari, gifite umushumi wakwambara mu ijosi.

Umusore uri gukora siporo. Uyu musore yambaye isengeri y'umukara. Amaboko y'uyu musore yayashyize ku mano y'imbere. Inkweto yambaye uyu musore zikozwe mu buryo butangaje.

Bande ikoreshwa kwa muganga mu gihe bapfuka cyangwa bavura umuntu wavunitse, iri gushirwa ku kaguru k'umwana wahumanye n'ikibazo cy'igufa ryavuye mu mwanya waryo, aha arimo arapfukwa ku kaguru kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza, ibi muganga abikoresha akurinda kwangirika k'ukuguru cyangwa se ku igikomere, ahakomeretse.

Uyu mugabo ari gukora siporo, iruhande rw'uyu mugabo hateretse icupa ry'amazi, amaboko y'uyu mugabo yayerekeje ku kiganza cye cy'iburyo, afashe ku kuguru kwe kw'ibumoso.

Ukuboko k'umuntu wavunitse. Intoki yazizanye azishyira ahavunitse. Ishati yari yambaye yayizinze, yayizamuye. Ahavunitse yahashyize ishashi y'umuhondo.

Uyu mukobwa ari gukora siporo bita yoga, amaboko ye abiri yayazanye ayafatisha amano, akaguru ke kandi gasigaye yagahinnye akerekeza ku kaguru k'ibumoso, ku kuboko kwe kw'iburyo hari icyapa kimeze nk'ikijyaho telefone, uyu mukonbwa yamabaye imyenda y'umukara tsiriri.

Uyu ari kunywa amazi ari mu icupa, uyu mukobwa yambaye isengeri y'umukara, iruhande rwe hari igitambaro cyijimye, umusatsi w'uyu mukobwa ni muremure, uyu yambaye ekuteri mu matwi ye.

Uyu mukobwa ari kunywa amazi, uyu mukobwa yambaye agasengeri kajya gusa nk'umweru, umusatsi w'uyu mukobwa ni umukara tsiriri, ku rutugu rw'uyu mukobwa hari isakoshi imeze nk'isume.

Aba bantu bari gukora siporo abagore nibo bari gukora siporo ugereranyije n’abagabo ku murongo w’imbere hari abagore bavanzemo n’abagabo iki vuga bari gukoreramo siporo cyubakishijwe amapave ruguru yaho bari gukorera siporo hari ibiti byinshi.

Uyu mudamu ari gukora siporo bita yoga, akaguru k'uyu mukobwa yakarambuye akarebesha imbere, akaboko k'uyu mukobwa yagashize inyuma mu mugongo, agatuza ke yakareze akarebesha hasi, ikibuno cye yakizamuye kireba mu kirere.

Igikapu bigaragara ko kirimo amasogisi, ga zo kwambara mu ntoki, imikasi, utwuma twifashisha mu gukura amenyo, kikaba kirimo uducupa, kikaba kirimo insinga n'utundi dukoresho dutandukanye, iki gikapu gishobora gukoreshwa umuntu agitwayemo ibikoresho kwa muganga cyangwa se ugitwayemo uri umukanishi.

Telefone yo mu biro iteretse ku meza, muri iyi terefone harimo saa yine zuzuye, hirya yaho hari umubare rimwe n'ibice bitanu, iyi terefone ifite amabara abiri umweru n'umukara, ifite amaburo yo gukandaho igihe ugiye guhamagara.

Siporo bita yoga ikorwa n'abantu mu rwego rwo kugira ngo birinde umuhangayiko bagabanya ibiro, ikindi bafashe kwirinda indwara zitandura, iyi siporo ikorwa n'abantu b'abagabo, abakobwa ndetse n'abakuze ntabwo bayihejwe, yavumbuwe n'abashinwa cyane cyane mu myaka yashize cyane kandi ikorwa n'abantu bakomoka mu Buyapani.

Uyu ni umupira w'amaguru, iruhande rw'umupira wamaguru hari umupira wa rugubi, hejuru y'umupira wa rugubi hariho ikasike yambarwa nabakinnyi ba kiriketi, impande yikasike yabakinnyi ba kiriketi, hariho umupira wa basiketibolo, impande y'umupira wa basiketibolo hari umupira w'amaboko.

Hirya y'aka gasekuru hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye, muri aka gasekuru harimo umusekuzo umuntu ari gukoresha asekura.

Ururabo rwarandaranze hasi ku butaka, ubu butaka bigaragara ko ari umucanga uvanzemo utubuye dutoya. Ni ururabo rufite amababi meza atoshye, hasi hari indabo nazo zamajije kuyanga bigaragara ko zishobora kuzatanga imbuto mu minsi iri imbere.

Hano hari imiti gakondo, ni imiti ivura indwara ariko itanyuze mu nganda, imyinshi muri yo ikozwe mu bimera, mu biryo ndetse no mu mbuto, impande y'iyi miti hari agasekuro ushobora kwifashisha usekura iyi miti ukayivanga mu mazi, muri aka gasekuro harimo umusekuzo.

Iki giti cyitwa umuravumba. Impande y'iki giti, hari inzu zishaje. Izi nzu zisakaje amabati ya kera. Inyuma y'izi nzu ntabwo hahomye n'umucanga.

Aya meza ariho inzoga z'amoko atandukanye, hariho byeri, hariho umutobe, hariho umutobe wa pome, hariho kandi utundi ducupa turimo imitobe itandukanye.

Ibabi ry'ikibonobono risa nk'icyatsi, hasi hari amabuye agiye aha n'ibiti, iki kibabi gikoreshwa cyane mu kuvura ndetse abantu bakoresha urutiritiri rwacyo mu gihe bari gushyigikira ibitoki ngo bitagwa.

Igiti kirandaranda hasi ku butaka kizana indabo kikagira imizi gishingamo hasi inyunyusa ibigitunga amababi yacyo aba atoshye ku buryo adakangwa n'izuba .

Iki giti gifite uruyange n'imbuto, aya mababi y'iki giti yaragandaye amwe ajya hasi andi ajya hejuru, udutabi tw'iki giti tumwe tugiye i buryo utundi tugiye i bumoso, hakurya hari amababi atari kuboneka.

Indabo zitandukanye ziri mu birarahuri, hari indabo ziri ku myuko, hari iziri hanze ndetse hari n'izindi ziri mu ducupa dufunze. Izi zose ziri hejuru y'ameza.

Aya macupa arimo imiti ivura uruhu, aya macupa agiye arutanwa mu burebure, buri cupa ririho igishushanyo cyabugenewe, buri cupa rifite igifuniko gikozwe muri parasitike.

Imashini imenera ikanatunganya ibihingwa, uyu ni umurima uhinzemo inanasi, abakoresha imashini bayiri inyuma uyitwaye arimo imbere. Impande y'uyu murima hariho igihuru kinini ariko kitabangamiye umurima.

Uyu mugore ari gusoroma imishogoro. Inyuma y'uyu mugore hari insina itoshye. Agashakoshi kari mu kuboko k'uyu mugore.

Udushashi dutatu twanditseho amagambo ari mu mabara y'umukara, icyatsi n'umuhondo; utu dushashi turiho amagambo n'imibare, hariho umubare makumyabiri na kane, akarongo kaberamye karindwi, hariho kandi ibara ry'umweru riri rwagati muri buri shashi.

Umurima batuburiramo ibiti, buri giti kiba kiri mu gihoho haba harimo itaka igiti bashyizemo, iyo ibi biti birangije tuburwa abaturage barabihabwa bakajya kubitera mu mirima yabo, harimo ibiti biribwa ndetse n'ibindi bisarurwa bikavamo imbaho nibyo biturwa.

Umuti gakondo uva mu byatsi, uko utegurwa bafata ibyatsi bakabisoroma, bakabyanika, barangiza bakabisekura, ubundi bakabifunga neza mu dushashi, uyu muti ushobora gukoreshwa igihe uwunywa mu mazi, uvura indwara zo mu nda, ushobora kuwukoresha igihe wakomeretse uvura igisebe, uyu muti gakondo ni imiti yakoreshwaga mu bihe bya kera, igihe iterambere ritari ryagakwirakwiye.

Iki kibabi ntabwo kiribwa, iruhande rw'iki kibabi hari ibishushungwa by'ibyatsi, ibara ririmo hano ni umukara, impande y'iki kibabi hariho andi mababi akiri matoya.

Utu dupfunyika turimo imiti gakondo, muri iyi imiti gakondo harimo iyi mbuto, ikomoka ku ndabo, ku bimera, ku bihingwa, ibyera imisogwe ndetse n'ibyera imbuto, hariho kandi isekuru yifashishwa mu gusekura iyi miti, muri iyi isekuru harimo umusekuzo.

Iki giti kitwa umuravumba, iki giti kivamo umuti uvura inkorora, inyuma y'iki giti hateye ibiti bitandukanye, amababi y'iki giti asa nk'icyatsi.

Akajerekani gafungishije umufuniko usa nk'umutuku. Kuri aka kajerekani hari ikirangantego cy'igisiga. Amagambo ahanditse aragira ati" foreva aro beri nekita". Uyu ni umuti urwanya udukoko.

Icupa risa nk'umuhondo ririmo utuntu, kuruhande hari igikakarubamba ari nacyo kivamo amavuta yo kwisiga. Iki giti ni ingirakamaro mu buzima bwa muntu, gifasha kwirinda indwara z'uruhu ndetse kandi gishobora kuvamo isabune.

Akabati karimo amacupa arimo imiti, iyi miti ivura indwara zitandukanye harimo iyo banywa, iyo barya mu biryo n'indi myinshi. Aka kabati kaba karimo imiti kwa muganga, iyo baje gufata iyo baha umurwayi haba harimo ibinini.

Ibitoki bidahiye, bibiri muri byo birakebye, hino kuruhande hari ubunyobwa budatonoye, iruhande ruguru naho hari igiti kivura indwara.

Iri cupa ry'umweru ririmo umuti, umuti uri muri iri cupa witwa foreva gararike fimu, munsi y'iri cupa handitseho ijambo ijana. Iri cupa ririmo amabara ageye atandukanye harimo iry'ikijuju, iry'icyatsi ndetse hejuru hariho igisiga.

Igiti cyayanze indabo, harimo utubuto mu imbere dusa nk'umuhondo, mu nsi hariho utubabi dufite uruyange ariko rutari rwasambura neza, hakurya hari izindi mbuto zitari kugaragara ziri mu ibara rijya gusa nk'iroza ndetse hariho n'indabo zitari kugaragara neza ariko n'indabo ubona ko zirimo imbuto.